Abakuru, abatoya, urubyiruko, abasore n'inkumi ndetse n'abashinzwe umutekano biganjemo abapolisi bagira inama yihariye kugira ngo baganire ku cyatuma abanyarwanda batera imbere.

Inzu mberabyombi ya Cyamazima iherereye mu mujyi wa Nyagatare kandi akaba ari iya Kaminuza y'u Rwanda, ikoreramo inama zitandukanye z'abayobozi ndetse n'abantu benshi ni ho bakunda gukorera inama, kubera ari nini cyane.

Abana ndetse n'urubyiruko bagira impano zitandukanye, zimwe muri izo mpano harimo nk'imbyino zigezweho, aho abana bahabwa urubyiniro bagakora utwarasisi mu mbyino zigezweho baririmba ndetse banabyina indirimbo zo muri iki gihe.

Inama iyo yabaye abanyamakuru na bo bayigiramo uruhare cyane ko baba bagiye gufotora kugira ngo bafate n'amajwi bohereze ku mbuga nkoranyambaga abantu batagiye muri iyo nama bamenye ibyavugiwemo.

Umuyobozi iyo ari gutanga imbwirwaruhame mu nama, agomba kuba yambaye imyenda myiza igaragara kandi isukuye kugira ngo abo abwira batamunyuzamo ijisho babona yambaye imyenda itameze neza.

Abashinzwe umutekano urugero nk'abapolisi, bagira inama abantu batwara ibinyabiziga, kutabitwara basinze ndetse bakirinda no kwica amategeko y'umuhanda kuko bishobora gutuma bagira impanuka, mu mirimo yabo ya buri munsi.

Mu nama buri umwe wese aba yemerewe kumanika urutoki akaka umwanya agatanga igitekerezo cye cyane iyo ari igitekerezo cyubaka cyangwa se ari ikibazo cyerekeranye n'aho atasobanukiwe.

Abasirikare, abacungagereza, abashinzwe iperereza ndetse n'abashinzwe ikigo cy'Igihugu gishinzwe ubugenzacyaha mu Rwanda, bahurira hamwe mu nama bari kuganira ku mutekano w'Igihugu.

Ku munsi wa gatandatu wa nyuma w'icyumweru, Abanyarwanda ndetse n'Abanyarwandakazi by'umwihariko abo mu karere ka Nyagatare bagira umuganda rusange, ubwo bajya gusukura imihanda, kubaka ibikorwa remezo ndetse no gufasha bagenzi babo batishoboye bakabubakira amazu.

Mu Rwanda rwo hambere abakobwa babyinaga imbyino gakondo zitwaga umushayayo aho bategaga amaboko bigana amahembe y'inka z'inyambo naho abasore bakabyina ikinimba ndetse n'umuhamirizo.

Umushayayo ni imbyino ibyinwa n'abanyarwanda ubwo yatangiye kubyinwa mbere y'umwaduko w'abakoroni mu Rwanda ariko muri iki gihe mu rwego rwo gusigasira umuco ikaba yongera ikabyinwa n'abari, aho baba bateze amaboko bigana inka y'inyambo.

Abasore bafite amatuza bafite n'imbaraga ni bo babyinaga mu muco nyarwanda, imbyino ziganjemo ikinimba ndetse n'umuhamirizo, muri iki gihe mu rwego rwo kubungabunga umuco, mu bigo by'amashuri ndetse na za kaminuza zitandukanye, bagira amarushanwa yo kubyina imbyino gakondo abatsinze bagahembwa.

Umuco gakondo w'abanyarwanda bafataga icyansi bakagishyiramo amata ndetse n'inkongoro bakazishyiramo amata, rimwe na rimwe bakanazikoresha bari kuyanywa.

Aborozi b'inka baherereye mu karere ka Nyagatare baba bameze neza kuko banywa amata, ayandi bakayajyana ku ikusanyirizo kugira ngo bayagurishe nibamara kuyagurisha babone amafaranga biteze imbere.

Mu muco nyarwanda habagamo imbyino zitandukanye, muri izo mbyino twavugamo nk'Umushayayo, ari wo wabyinwaga n'abakobwa babaga bateze amaboko, bigana amahembe y'inka z'inyambo baseka neza.

Mu muco nyarwanda habamo kubyina imbyino zitandukanye gakondo nk'umushayayo, umuhamirizo, ikininimba ndetse n'izindi zitandukanye, abazibyina baba bateze amaboko bigana inka y'inyambo amahembe yayo.

Imyambi yakoreshwaga n'ingabo z'Igihugu mu muco nyarwanda w'Abanyarwanda bo hambere, aho bitwazaga umuheto ndetse n'umwambi igihe babaga bagiye kurwana n'abashakaga gutera Igihugu, si icyo gihe gusa umwambi wakoreshwaga, wakoreshwaga n'abahigi bagiye no guhiga inyamaswa.

Mu buboshyi gakondo abantu babohaga bafataga imigwegwe barangiza bakayihonda, nyuma yo kuyihonda barayihihuraga bakabonamo inago, izo nago rero ni zo zakoreshwaga bari kuboha ibintu bitandukanye nk'ibirago ndetse n'ibyibo.

Mu muco nyarwanda abantu biyogosheshaga inyogosho yitwa amasunzu, bakaba bafite n'ibikoresho bitandukanye higanjemo amacumu, imyambi ndetse n'umuheto.

Mu rwego rwo gukwirakwiza ingufu zikomoka ku muriro w'amashanyarazi, leta y'u Rwanda yagerageje kubaka amapiloni ahantu hatandukanye, ayo mapiloni akaba afite moteri zikwirakwiza umuriro w'amashanyarazi mu ngo zitandukanye z'abaturage batuye akarere ka Nyagatare.

Ingufu zituruka ku muriro w'amashanyarazi, zikwirakwizwa mu bice bitandukanye by'akarere ka Nyagatare, cyane ko amapiloni ndetse n'insinga zitwara umuriro mu kirere, zamaze gukwirakwizwayo, abaturage baho bose, bavuga yuko umuriro w'amashanyarazi wabafashije kwivana mu bukene.

Abakozi bakora mu bigendanye n'umuriro w'amashanyarazi baba barize amashuri yerekeranye n'amashanyarazi mu mashuri yisumbuye. Ibi ngibi bikabafasha kugira ubuhanga buhanitse mu gukanika ndetse no gukora amashanyarazi.

Imidugudu y'ikitegererezo ni gahunda Leta yashyizeho kugira ngo abantu bature ahantu heza hadashyira ubuzima bwabo mu kaga, ni muri urwo rwego rero iyo midugudu y'ikitegererezo iba ifite umuriro w'amashanyarazi ku buryo abantu bataba mu kizima.

Mu rwego rwo gukwirakwiza umuriro w'amashanyarazi mu Rwanda abatuye Akarere ka Nyagatare bahawe umuriro w'amashanyarazi cyane ko haba hari ababyize bawubasangiza bawuturukije ku mapironi atandukanye ndetse no ku mafoto kugira ngo bawusakaze mu ngo z'abaturage.

Mu rwego rwo kwegereza abantu batuye mu cyaro ibikorwaremezo birimo imihanda ndetse n'imiriro y'amashanyarazi, abaturage batuye mu cyaro babona yuko byagize uruhare rukomeye mu iterambere ryabo.

Mirongo itandatu ku ijana by'abatuye Akarere ka Nyagatare bamaze kugerwaho n'umuriro w'amashanyarazi, ibi ngibi bituruka kuba umuriro w'amashanyarazi warashyizwemo imbaraga muri aka karere, aho bashyizeho amapironi atandukanye akwirakwiza umuriro w'amashanyarazi cyane cyane mu bice byo mu mujyi.

Mu rwego rwo gukwirakwiza umuriro w'amashanyarazi mu Karere ka Nyagatare, Leta y'u Rwanda yagerageje gushaka ukuntu yashyira iminara ndetse n'amapironi akwirakwiza uwo muriro w'amashanyarazi mu bice by'umugi ndetse n'ibice by'ibyaro.

abantu bize ibyerekeranye no gukora umuriro w'amashanyarazi, nibo iyo bigize ikibazo batumizwaho bakaza bakabikanika kugira ngo byongere bikore, abantu bacane ndetse bakore n'indi mirimo itandukanye bakorera kuri uwo muriro w'amashanyarazi.

Ni ngombwa yuko abantu bize ibyerekeranye no gukora umuriro w'amashanyarazi bagira impuzankano ibaranga, rimwe na rimwe muri abo banyeshuri iyo hari uwahize abandi ahabwa impamyabumenyi mu byerekeranye n'umuriro w'amashanyarazi nkuko aba yarabyizemo.

Amapironi akusanya umuriro w'amashanyarazi, ayo mapironi akaba afite insinga nyinshi ziwukwirakwiza mu ngo z'abaturage, ibi ngibi bigatuma abantu bose bagira umuriro w'amashanyarazi mu ngo zabo.

Mbere y'uko iminara ndetse n'amapironi akwirakwiza umuriro w'amashanyarazi mu ngo z'abaturage bubakwe, bisaba yuko haba hari abahanga babyize kugira ngo babyubake bikomere ndetse bizarambe.

Abahanga mu bigendanye n'amashanyarazi, iyo bashaka kuyakwirakwiza mu bice bitandukanye ndetse ku buso bunini bw'ahantu, bibasaba yuko bamanza kubaka iminara ndetse n'amapiloni, azakusanyirizwamo uwo muriro kugira ngo woherezwe mu bice bitandukanye by'igihugu.

Amafaranga menshi Igihugu cy'u Rwanda kigira kiyakura mu bukerarugendo, ni yo mpamvu cyubaka ibisitati biriho ingagi kugira ngo abantu nibahagera bajye bamenya yuko hakorerwa ubukerarugendo.

Abanyonzi baba batunzwe n'akazi kabo, ko gutwara amagare, aho batunda ibicuruzwa ndetse n'abantu babakura mu bice bitandukanye bigize akarere ka Nyagatare, babajyana ahandi hantu bakeneye kujya.

Iyo ugeze aho igihugu kirangirira ugiye kwinjira mu kindi, haba harubatswe umupaka ugabanya Ibihugu byombi, urugero twavuga nk'umupaka w'u Rwanda n'Ubugande uherereye i Kagitumba mu karere ka Nyagatare.

Mu rwego rwo kwita ku buzima, isuku ndetse n'ibidukikije, Leta y'u Rwanda ibifatanyije n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima mu Rwanda, RBC, batanze amahugurwa ku bajyanama b'ubuzima b'imidugudu kugira ngo bajye babafasha gusuzuma abaturage barwariye mu midugudu.

Leta y'u Rwanda ku bufatanye n'imiryango itegamiye kuri Leta, yubaka ibikorwa remezo birimo inzu ,amavuriro, imihanda ndetse n'ibindi, mu rwego rwo kuzamura ubukungu bw'igihugu ndetse n'inyubako za Leta.

Leta y'u Rwanda igerageza kubaka amazu hirya no hino mu karere ka Nyagatare kugira ngo ajye akoreshwa igihe habaye inama cyangwa se ibindi bikorwa bitandukanye bya leta bigirira abaturage akamaro ndetse n'abenegihugu bose muri rusange.

Leta y'uRwanda igerageza kubaka ibibuga bitandukanye yaba ibibuga by'umupira ndetse n'ibibuga, bindi abantu bakoreramo imyitozo ngororamubiri, yiganjemo nk'umukino wo mu gikapu ndetse n'umukino w'amaboko.

Leta y'u rwanda igerageza kubaka inyubako zayo ahantu hatandukanye mu gihugu cy'u Rwanda, by'umwihariko nk'ibiro by'utugari bigenda byubakwa mu bice bitandukanye by'akarere ka Nyagatare, aho buri kagari kagira ibiro byako.

Ku itariki zirindwi z'ukwa Kane mu Rwanda buri mwaka, bibuka Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda, ibyo ngibyo bikorwa muri buri tugari ndetse na buri mudugudu ugize akarere ka Nyagatare.

Mu rwego rwo kwegereza ubuyobozi abaturage Leta yagerageje kubaka ibikorwa remezo birimo n'ibiro by'imidugudu, cyane cyane mu karere ka Nyagatare aho mudugudu aba afite ibiro hafi y'abaturage kugira ngo abakemurire ibibazo.

Leta yubatse ibiraro bitandukanye byambukiranya imigezi binyuze mu kirere, biba bikoresheje imikwege kugira imvura nigwa cyane amazi akuzura, yehe kuzigera yongera gutwara ibyo biraro.

Umupaka ni ahantu ibihugu bibiri bihurira, iyo wambutse umupaka uva mu gihugu kimwe ugahita ujya mu kindi, ibi ngibi bisaba uruhushya rwanditswe rugasinywaho rukwemerera kujya mu kindi gihugu.

Isoko ry'akarere ka Nyagatare, ni isoko ryubatse neza mu buryo bugezweho dore y'uko ari etaje, rifite imiryango itandukanye ikorerwamo, abantu bakoreramo ibintu bitandukanye byerekeranye n'ubucuruzi.

Igororero ni inyubako yubakwa kugira ngo ifashe Leta mu kugorora abana ndetse n'abantu bakuru, baba bakoze ibyaha bakajya kugororerwayo bakigishwa ingaruka z'ibyaha ndetse bakanahanwa.

Iyo turebye ibikorwa remezo dusangamo n'ibiraro, ibiraro bikunda gushyirwa ahantu hejuru y'umugezi, bikagira uruhare cyane cyane mu buhahirane bw'abantu baba batuye mu gace ko hakurya y'umugezi ndetse no hakuno yawo.

Abanyarwanda ku itariki enye z'ukwezi kwa karindwi, bibuka jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. Ibi ngibi bigatuma itazongera kubaho ukundi kuko bigishwa amateka y'icyayiteye, ndetse n'ibyo bakora kugira ngo itazongera kubaho ukundi.

Inzu mberabyombi ya cyamazima iyo hagiye kuba inama zitunguranye ndetse n'inama ziri butumirwemo umubare munini w'abantu benshi, higanjemo abayobozi ndetse n'abashinzwe umutekano, niyo ikoreshwa kugira ngo baganire ku cyagirira igihugu cy'u Rwanda akamaro.

Iyo abantu bamaze gukora imyitozo ngororamubiri bagira umwanya uhagije wo kuganira bakarebera hamwe umumaro w'iyo myitozo ngororamubiri baba bamaze gukora cyane yuko biba bikenewe no kugira ngo baganire bamwe na bamwe bahakure inshuti.

Umubare munini w'abantu batuye Akarere ka Nyagatare bakunda kwitabira inama kugira ngo bumve icyo abayobozi babo baba bashaka kubagezaho, cyane ko baba bashaka kubagira inama z'ukuntu bakwivana mu bukene bagatera imbere.

Abashinzwe umutekano cyane cyane abapolisi umunsi ku munsi baba bagira inama urubyiruko ndetse n'abandi baturarwanda, kwirinda ibiyobyabwenge ndetse no kwirinda guhungabanya umutekano w'Igihugu.

Abagenzi bari kwambuka umuhanda wa kaburimbo, baba bagomba kunyura ahantu hagaragazwa n'amabara y'umweru menshi n'umukara afite ishusho nk'ay'Imparage.

Mu muhanda w'umukara aho imodoka zigenda habamo ibyapa bitandukanye harimo ibyapa biburira ibiranga ndetse n'ibyapa bigaragaza umuvuduko umuntu aba agomba kugenderaho.

Abayobozi b'ibinyabiziga biganjemo abamotari ndetse n'abatwara imodoka, iyo bageze mu muhanda wa kaburimbo basangamo ibyapa bibafasha kumenya, amashami y'umuhanda ndetse n'aho kugenda ku muvuduko muke ndetse n'umuvuduko mwinshi.

Imodoka zigendera mu mihanda ya kaburimbo ntabwo zandura vuba kubera yuko ibi biterwa no kuba mu muhanda haba hari isuku yo ku rwego rwo hejuru, ibingibi rero bikagabanya umwanda mu muhanda.

Abanyonzi baherereye mu Karere ka Nyagatare kubera imihanda yaho myiza batwara amagare bahetse abantu kugira ngo biteze imbere, abo baba bahetswe baba bagomba kwishyura abo babatwaye kugira ngo na bo biteze imbere.

Iyo umuntu akeneye kujya mu byerekezo bitandukanye bimusaba kujya muri gare. Gare ya Nyagatare ibamo ibyerekezo bitandukanye ari byo: Nyagatare-Gicumbi, Nyagatare- Kigali ndetse na Nyagatare-Rwamagana.

Imodoka zitwara abagenzi zibakura mu bice bimwe zibajyana mu bindi, ibingibi bikoroshya ubuhahiranire hagati y'uturere ndetse bikoroshya n'urugendo abantu bakora bava mu gace kamwe bajya mu kandi.

Imihanda ya kaburimbo igomba kuba ifite ibyapa byereka abanyamaguru aho bagomba kwambukira mu rwego rwo kwirinda impanuka zimwe na zimwe zitateganyijwe.

Umuhanda wa kaburimbo kubera yuko unyuramo ibinyabiziga byinshi, haba hari ibyapa biburira abantu ndetse byereka abagenzi aho bagomba kwambukira kugira ngo bataza kugongwa n'ibyo binyabiziga.

Imodoka ni ikinyabiziga gikoreshwa mu bwikorezi bukorerwa mu muhanda, ifasha mu gutwara ibintu, ibicuruzwa ndetse n'abantu ibikura mu gace kamwe ibijyana mu kandi, ibi bikoroshya ubuhahirane.

Ubwikorezi bw'ibintu n'abantu bukorerwa mu mihanda yo mu mugi wa Nyagatare haba ku manywa cyangwa se nijoro dore yuko ku mihanda hari amatara amurika nijoro, ibi bigatuma igihe icyo ari cyo cyose amapikipiki ndetse n'ibindi binyabiziga bikora urugendo.

Iyo umuntu ageze ku muhanda w'umukara ahasanga ibyapa bitandukanye, hari ibyapa bimenyesha, hari n'ibyapa bigaragariza umuntu aho agomba kwambukira ndetse n'ibigaragaza aho baparika imodoka n'ibindi binyabiziga bitandukanye.

Ni ngombwa yuko abantu batwara amapikipiki bagomba guhabwa amafaranga n'abo bantu bagiye gutwara ku mapikipiki yabo, mu rwego rwo kugira ngo biteze imbere bateze imbere imiryango yabo.

Ishami rya polisi ryo mu karere ka Nyagatare riherereye muri uwo mujyi wa Nyagatare, abaturage benshi baza ku ishami rya polisi baje kurega ababahemukiye cyangwa se baje kugisha inama abayobozi babo.

Ni ngombwa yuko umuntu ahaguruka agatanga igitekerezo ke cyane cyane igihe habaye inama y'abayobozi. Umuturage aba yemerewe guhaguruka agatanga ibitekerezo ndetse akagira n'ibyo ashima n'ibyo agaya.

Umuganda mu Rwanda ukorwa ku wa gatandatu wa nyuma w'ukwezi, iyo abantu bagiye mu muganda bakora ibikorwa bitandukanye nko kubaka umuhanda, kubakira abakene ndetse n'ibindi bitandukanye bibafasha kwikemurira ibibazo.

Abayobozi biganjemo abashinzwe umutekano b'abapolisi ndetse n'ingabo z'Igihugu abasirikare, usanga bagirana ibiganiro n'urubyiruko cyane cyane iyo bahuriye mu nama bari kubabwira uburyo umutekano w'Igihugu cy'u Rwanda urinzwe.

Umutekano w'Igihugu cy'u Rwanda urindwa na buri wese ariko cyane cyane abapolisi, abasirikare, abadaso ndetse n'abandi bose baba barize ibyerekeranye no gucunga umutekano.

Abashinzwe umutekano biganjemo abapolisi, bahura n'abayobozi kugira ngo baganire ku kuntu bari umutekano w'abanyarwanda, bigatuma abanyarwanda bagira umudendezo.

Mu rwego rwo kwikemurira ibibazo abanyarwanda babinyujije mu muganda rusange, abaturage bose biganjemo urubyiruko, abasore, inkumi ndetse n'abakecuru, bitabira iki gikorwa bari kubaka ibiraro, kubaka ibikorwa remezo ndetse bari gufasha n'abatishoboye.

Mu rwego rwo kwikemurira ibibazo Abanyarwanda bakora umuganda aho kuwa gatandatu usoza ukwezi bahura bagakora umuganda bakora umuhanda kugira ngo ujye unyurwamo n'abantu ndetse n'ibinyabiziga byorohereze ubuhahirane.

Abashinzwe umutekano barimo abasirikare ndetse n'abapolisi bagirwa inama yo gushyira mu bikorwa ibyo baba barigiye ku ikosi bakarinda umutekano ndetse n'ubusugire bw'Igihugu by'u Rwanda.

Abashinzwe umutekano biganjemo abapolisi, abasirikare, ndetse n'abadaso, abayobozi batandukanye, kuwa gatandatu usoza ukwezi, bahurira ahantu hateganyijwe, bakahakora umuganda, rimwe na rimwe bari gutema ibyatsi, ikindi gihe bubaka imihanda, ndetse n'ibindi bikorwaremezo bitandukanye.

Umukino w'umupira w'amaguru, ushimisha abatari bake. Si ukuvuga yuko ari abawukina gusa ushimisha, ahubwo hari n'abishimira kuwureba. Ni cyo gituma Leta y'u Rwanda yubatse ibibuga by'umupira bitandukanye, cyane cyane mu Karere ka Nyagatare naho kikaba gihari, aho abantu bajya kwicara ahabugenewe, bari kureba umukino w'umupira w'amaguru.

Umukino w'umupira w'amaguru n'umukino ukundwa n'abatari bakeya mu Rwanda, dore y'uko Leta y'u Rwanda yubatse n'ibibuga by'umupira w'amaguru mu turere twose tugize u Rwanda ndetse n'Akarere ka Nyagatare.

Mu myaka myinshi yashize wasangaga abakobwa batemerewe gukina umupira w'amaguru ariko muri iki gihe kubera yuko ibibuga byaje ndetse n'abantu bose bafite uburenganzira bungana, nabo basigaye bishimira gukina umupira wmaguru.

Umukino w'umupira w'amaguru ni umukino uryohera abatari bake, abantu benshi bakunda gukora imyitozo ngororamubiri usanga bakunda kwikinira uwo mukino, rimwe na rimwe hari igihe bahuriramo n'impanuka nko kuvunika ariko ntibituma badakomeza gukina umukino w'umupira w'amaguru.

Umukino w'umupira ni umukino ushimisha abantu benshi dore y'uko kera bavugaga yuko abakobwa batemerewe kuwukina ariko muri iki gihe barawukina kandi bagatsinda, bagatwara n'ibikombe.

Umukino w'umupira wamaguru n'umukino ukunda gukinwa n' abatari bake mu gihugu, cyane ko bubakiwe ibibuga bakiniraho uwo mupira w'amaguru.

Abana bakunda gukina umukino w'umupira w'amaguru mu rwego rwo gukora imyitozo ngororamubiri kugira ngo bakomeze kugira ubuzima bwiza. Mbere y'uko imyitozo ngororamubiri ifite uruhare rutandukanye mu ikura ry'umuntu.

Umukino w'umupira w'amaguru ushimisha abatari bakeya mu Rwanda do yuko i Nyagatare abanyeshuri ndetse n'urubyiruko bakunda gukina umukino w'umupira w'amaguru.

Imyitozo ngororamubiri ni ngombwa ku buzima bwa muntu. Dore yuko umuntu ukora imyitozo ngororamubiri atana n'umubyibuho ukabije kandi akagira ubuzima bwiza, agakura neza mu gihagararo ndetse no mu mitekerereze.

Mu rwego rwo kubungabunga umutekano wo mu muhanda, Polisi y'u Rwanda igerageza guhora izenguruka mu muhanda kugira ngo irebe ibinyabiziga byica amategeko y'umuhanda kugira ngo bicibwe amande.

Abanyonzi bo mu karere ka Nyagatare biteje imbere, dore y'uko baba bari gutwara umusaruro w'ubuhinzi, bawuvana ku isambu bawujyana mu isoko rya Nyagatare, kubera imihanda myiza yaho ihari.

Imihanda yo mu giturage iba yaramezemo ibyatsi kandi ntabwo iba yarashyizwemo kaburimbo aba ari imihanda y'igitaka, ibi ngibi rero bigatuma abantu bambara inkweto zandura cyane cyane izisa n'umweru kubera ivumbi cyangwa se urwondo ruba ruri muri iyo mihanda.

Iyo ukoze urugendo rw'ibirometero birindwi uturutse mu mujyi wa Nyagatare ugeze mu bice by'ibyaro nka bya Rwepmasha usangayo imihanda itarimo kaburimbo, iyi mihanda imvura iyo yaguye igaragaza yuko ifite ibyondo byinshi ku buryo abayobozi b'ibinyabiziga bibagora kuhatambuka.

Iyo umuntu agiye kwambuka umuhanda bisaba yuko abanza kureba iburyo n'ibumoso, imbere n'inyuma, akareba yuko nta kinyabiziga kiri kuza gishobora kuba cyamugongera muri uwo muhanda, yabona ntacyo agahita yambuka neza yitonze.

Abamotari ndetse n'abandi bayobozi b'ibinyabiziga bishimira yuko bahawe umuhanda w'umukara mwiza, utuma bagenda neza ndetse n'ibyo binyabiziga byabo ntibihure n'umwanda.

Imihanda yo mu biturage by'ibyaro iba yarangiritse cyane kuko ibidafite kaburimbo, ibingibi bituma imigenderanire hagati y'ibyaro bitandukanye igorana kuko iyo imvura yaguye hazamo isayo.

Imihanda y'ibitaka yamezemo ibyatsi ikunda kugaragara ahantu mu byaro hari kure y'umujyi kuko nta kaburimbo iba irahagera, abantu bakoramo isuku kugira ngo ivumbi rigabanyuke.

Umuhanda mwiza wa kaburimbo uba ufite inzira abagenzi banyuramo, ikagira n'inzira imodoka zinyuramo ari byo bituma abantu batagongwa kubera yuko baba bafite inzira yabo banyuramo.

Umuhanda wa kaburimbo uba ufite ibice bitatu, igice kimwe kinyuramo imodoka ziba ziri kuzamuka, igice kikanyuramo imodoka zimanuka, naho ikindi gice akaba ari icy'abagenzi banyuramo mu rwego rwo kwirinda urujya n'uruza mu muhanda rushobora gutera impanuka za hato na hato.

Imihanda ya kaburimbo igira uruhare rukomeye mu bwikorezi bw'ibicuruzwa abantu ndetse n'ibintu ndetse na serivise zitandukanye, aho ifasha abayobozi b'ibinyabiziga ndetse n'abanyamaguru gutambuka neza mu muhanda nta nkomyi.

Abana bakunda kugira ibiziga baba bari gucunga mu muhanda. Ibingibi bituma abana bishima bagakura neza, kubera yuko umwanya wo gukina baba bari gukina n'ibyo bikoresho byabo baba bari gucunga mu muhanda.

Iyo umuntu ari kwihuta ashaka kugera kure kandi yumva ananiwe bimusaba gutega ipikipiki kuko ipikipiki yihuta cyane ikamugeza aho aba ashaka kujya mu gihe gito.